Abantu bahagaze. Harimo abambaye ingofero. Nyuma hari abicaye ku ntebe zifite amabara y'ubururu n'abahagaze hirya impande y'inyubako. ikigaragara cyo bari mu nama.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, yambaye n'amadarubindi, ari kuvuga yifashishije indangururamajwi, inyuma ye hari ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'amatara, hari kandi imitako myiza irimo imigongo, imigongo.

Abantu bicaye mu nama, ni batatu impande yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, inyuma yabo hari ikirango kigaragaza inama igiye gukorwa, inyuma yabo kandi hadekoye ibitambara by'amabara y'iradarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bahagaze, imbere yabo hari umubyeyi ufite indangururamajwi ari kuvuga, muri bo kandi harimo abagabo n'abagore, inyuma yabo haparitse imodoka n'ishyamba riri hirya rirerire.

Umugabo wambaye inifomu za polisi, ari kuvuga yifashishije indangururamajwi. Inyuma ye hari abandi bagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ingofero, n'undi wambaye ikoti. Inyuma ya bose hari icyapa cyanditseho amagambo.

Umuntu uhagaze. yambaye amadarubindi. afite indangururamajwi mu ntoki. yambaye n'isaha ku kuboko. ari imbere y'abantu, arikubwira.

Abantu bicaye, barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bicaye mu ihema ryubakishije ibyuma, biriho ibitambaro by'ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari inyubako nini yukishije amatafari ahiye, ifite umuryango umwe muto ufite irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye bari mu inama, imbere yabo hari umudamu uhagaze ari kubabwira . Ku inkuta imbere kandi hari ibyapa bigaragaza ibyo ari kubasobanurira . Ku meza y'abo bantu hari amacupa y'amazi amakaye n'amakaramu kuri buri muntu.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda, bambaye imikenyero n'imyitero y'iby'umweru, bambaye kandi inigi z'umweru, barasa neza, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda harimo abahungu n'abakobwa, abakobwa bambaye imkenyero n'imyito by'umweru, abahungu bambaye imkenyero y'umukara n'imyitero y'umweru, bose kandi bambaye inigi.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo, bari kubyinira ababarora, inyuma yabo hari abaririmbyi bari kuririmba bakoresheje indangururamajwi, hari umukaraza uri gukubita ingoma.

ababyinnyi b'imbyino gakondo za kinyarwanda, umukobwa umwe ari imbere ari kubyina, inyuma ye hari abagabo bambaye imikenyero n'imyitero n'imiigi mu ijosi, hirya ye hari abantu bicaye, bizihiwe n'imbyino gakondo.

Igiseke gitatse neza gipfundikiye, gifite amabara abiri: umweru n'umukara, bagiye bayataka neza ku buryo bugaragarira amaso.

Abakobwa bambaye kinyarwanda bateruye ibisabo, bambaye imikenyero y'umweru bose bafite imisatsi y'umukara irasa.

Inkangara ipfundikije umutemeri, ifite amabara atatse mu buryo bw'imigongo y'umukara.

Imisambi itondetse ku murongo iboheshejwe ubukangaga ndetse n'indodo z'umufuka. Hakurya no hino yayo hari abantu bahagaze n'abicaye barimo kuyicuruza n'abayigura.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo za kinyarwanda, abahungu barapfukamye bambaye inigi mu ijosi, abakobwa nabo barahagaze bateze neza nk'inyambo, bose bambaye imikenyero n'imyitero by'umukara n'umweru, hirya no hino yabo hari abantu bizihiwe n'izo mbyino bari gukoma amashyi.

Ibiseke bibiri birobetse neza, bifite amabara abiri abiri, kimwe cyiganjemo ibara ry'umukara n'ikigina, ikindi cyiganjemo ibara ry'ikigina umukara ni muke.

Ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda ni abakobwa beza baseka, bambaye imikenyerero n'imyitero n'amasengeri by'umweru, bambaye n'inigi z'umweru, imbere yabo hari abantu bari kubareba hari n'indabo zitatse imbere yabo.

Inkangara itatse neza amabara y'umukara n'umutemeri wayo ufite ayo mabara.

Umusore n'umukobwa, bahagaze. Bambaye imikenyero, ndetse n'imyitero bambaye kinyarwanda. Umusore yambaye urunigi, rufite amabara abiri umweru n'umukara.

Igiti cyanditseho umubare kabiri ndetse kiriho icyapa. Hirya yaho hari ikindi giti, ariko cyo ni gito mu mubyimba ugereranije n'icya mbere, hari n'amakoma y'insina ndetse n'ikirere.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru, yambaye umwenda w'akazi uriho nimero mu mugongo, arimo gukandada kashi pawa imatse ku rukuta rw'inzu.

Ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi. Rifite imiyoboro myinshi. Inyuma yaryo hari amazu. Rishinze ahantu hari ibyatsi. Ndetse ruguru y'ayo mazu hari ibiti birebire.

Ipoto y'umushanyarazi, iriho imiyoboro myinshi, iyo poto yuriwe n'abantu babiri, bari hejuru yayo.

Abantu bahagaze imbere y'urugomero rw'amashanyarazi bose bambaye amajiri asa n'ingofero, inyuma yabo hari amapironi ariho imiyoboro myinshi.

Abantu bahagaze bambaye amajire y'icyatsi ndetse na oranje, bambaye ingofero z'umweru n'umuhondo, barimo abazungu n'abirabura hirya yabo hari imodoka.

Umusaza ufite imvi wicaye mu bwogoshero, ari kogoshwa n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ku nkuta z'inzu hari ishusho iriho inyogosho z'abantu zitandukanye, imbere ye kandi hari imashini yogosha ndetse n'umuti wica mikorobe.

Abantu benshi bahagaze ku urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi, rufite amapoto menshi afite imiyoboro myinshi ijyana umuriro mu ngo z'abaturage, inyuma yabo hari amabuye mato y'uruceceri ahashashe ndetse n'inkingi imwe iri inyuma yabo hagati muri ayo mabuye.

Abantu bicaye imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umuryango umwe, hejuru yawo hari icyapa kigaragaza ko ari ibiro by'umurenge.

Inyubako nziza ifite inkingi eshatu, mu ibaraza ryayo hari abantu bahicaye ku ntebe za karambarazi. Imbere yayo hari ubusitani ndetse hari n'amabuye mato ari imbere y'umuryango, inyuma y'iyo nyubako hari ibiti birebire.

Inyubako y'Akarere ka Nyagatare iriho icyapa kigaragaza aho hantu aho ari ho, hari kandi ururabo rukase neza ruri imbere y'inyubako.

Umugezi w'amazi wubatse neza, inyuma yawo hari ibyatsi ndetse n'umuhanda, hirya y'umuhanda hari umuntu uri ku igare, hari kandi inyubako z'amazu abiri imwe ifite imiryango ibiri, indi ifite imiryango itatu hirya yayo hari n'ibiti.

Inka ifite amahembe maremare ateze neza, ifite ibara ry'umukara, yambaye urunigi rw'umweru igaraga buri wese, ihagaze hejuru y'icyapa kigaragaza Akarere ka Nyagatare, iyi nka irashushanya ko hari amata, hari ibiti birebire hirya ndetse n'inyubako.

Abantu bahagaze mu byatsi, inyuma yabo hari ibiro by'akagari bifite imiryango ibiri minini n'idirishya.

Inyubako yubatswe kijyambere yo gucururizwamo, harimo abacuruzi, abaguzi, ndetse n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye byokurya. Ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara.

Umuntu uhagaze ufite impapuro mu ntoki uri gusoma. Yambaye amadarubindi, Hirya ye hari inzego z'umutekano, Polisi ndetse n'abasirikare ku myenda yabo hariho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Umuntu uri imbere usa n'uyoboye abandi afashe ifoto y'umuntu wapfuye, inyuma ye hari abagabo bambaye imyenda y'imikara bateruye isanduku bari kujya gushyingura, hirya kandi inyuma yabo hari abandi bamama bakenyeye kinyarwanda bafite indabo mu ntoki.

Umuntu wambaye ishati y'umukara, uhagaze, ari kubwira abantu bari imbere ye benshi, yifashishije indangururamajwi. Hari ihema rifite ibara ry'umweru, abantu bicayemo riri kubakingira izuba. Hirya yabo kandi hari ibiti by'inturusu.

Abantu bicaye ku ntebe za parsitiki, barimo abagore, abagabo, abakecuru ndetse n'abasaza, imbere yabo hari umuntu uri kuvuga yifashishije indangururamajwi, hari ibyatsi ndetse ahantu bateraniye hari n'ibiti birebire.

Abantu benshi bari mu muhanda barangajwe imbere n'abafite ikirango cyo kwibuka, bari kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. Hari amapoto akikije umuhanda n'ibiti birebire.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'ibara ry'umutuku ryijimye, inyuma ye hari abandi bantu bicaye, inyuma y'abicaye hari inzu iriho insina ndetse n'indabo.

Abantu bahagaze barimo abagabo n'abagore, bahagaze munsi y'ibiti, imbere yabo hari umugabo uri kubabwira bamuteze amatwi ndetse bamuhanze amaso, hirya yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye munsi yihema, imbere yabo hari inbobo, hirya yabo hahagaze Polisi, hari ibiti ndetse ninyubako z'amazu atandukanye.

Imodoka rusange itwara abantu iparitse, mu muhanda impande y'akazu abagenzi bicaramo iyo bategereje imodoka. Ako kazu gafite inkingi eshatu ndetse karasakaye, hirya kandi hari imodoka ya toyota ndetse n'inyubako z'ubucuruzi.

Icyapa gihagaze hakurya y'umuhanda, kiriho ikirango kigaragaza akayira k'abanyamaguru, ibiti birebire n'ibyatsi bigufi.

Icyapa kigaragaza akayira k'abanyamaguru bacamo mu muhanda, inyuma yacyo hari inkingi eshatu ziriho imiyoboro y'amashanyarazi n'insinga zijyana umuriro mu mazu.

Imodoka iri mu muhanda, ifite ibara ry'umweru. Inyuma yayo hari amazu maremare yubatse, ndetse hari n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi. Hepfo yayo hari ubusitani bwiza n'ibiti birebire.

Imodoka ya Toyota iparitse imbere y'inzu. Kuri iyo nzu hariho ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa mu miryango yayo, hari ibyatsi bito bya pasiparume. Inyuma y'inzu hari ibiti birebire by'ubwoko butandukanye.

Umuntu utwaye moto, ahetse n'abana b'abanyeshuri, bari mu muhanda w'umukara, hino y'umuhanda hari ibyatsi bigufi, hakurya hari inyubako z'ubucuruzi.

Umuntu uri mu muhanda wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'ijire y'umutuku, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze ndetse hino ye hari imodoka y'umweru.

Imodoka nini ya bisi, yanditseho ''Yahoo'', ku muryango wayo hahagaze abantu bari gutega na shoferi. Hirya kandi hari izindi modoka nazo zitegereje abagenzi.

Imodoka ebyiri ziparitse mu kibuga, zose zifite amabara y'umukara, inyuma yazo hari inyubako ndende, hari n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho EN cumi na kabiri AVE hirya yacyo hari ibyatsi ,hakurya y'umuhanda hari amapoto maremare ariho amatara acanye mu muhanda.

Imodoka iparitse mu kibuga ni ahantu hashashe amabuye, yubakishijwe sima. Iyi modoka ifite ibara ry'ubururu ,hirya yayo hari inyubako ifite amadirishya manini n'imiryango, hari kandi na moto.

Umuntu wambaye inkweto z'umuhondo n'ikabutura ndetse n'umwenda w'umweru hejuru, afite igare ahetseho umutwaro. Hirya ye hari inzu.

Abayobozi bicaye munsi y'igiti, barimo inzego z'umutekano Abapolisi n'Abasirikare, harimo kandi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, imbere yabo hari abaturage bicaye hari n'abitwikiriye imitaka, hirya kandi hari inyubako ifite irangi ry'ubururu.

Abantu bicaye barimo abagabo, abagore n'urubyiruko. Harimo abambaye ingofero n'abateze ibitambaro. Inyuma y'abicaye kandi hari abahagaze. Imbere yabo hari igiti kinini, hari umuntu wambaye isaha, ufite udupapuro mu ntoki, urimo kubabwira yifashishije indangururamajwi.

Abantu bafite amasuka bari guhinga, inyuma yabo hari abandi bahagaze, hari kandi ishyamba riri inyuma yabo ririmo amoko y'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi.

Umugabo uhagaze yambaye amarinete n'isaha ku kuboko ndetse n'impeta y'abashyingiranywe. Afite urupapuro mu ntoki. Ari kuvuga yifashishije indangururamajwi. Inyuma ye hari undi mugabo uhagaze na we wambaye isaha uri kureba muri telefone.

Abantu bicaye ku ntebe z'inyegamo za pulasitiki harimo abagabo n'urubyiruko harimo uwambaye agapfukamunwa, bahanze amaso mu cyerekezo kimwe bateze amatwi.

Umupolisi uhagaze, inyuma ye hari abantu bahagaze n'abicaye, hirya kandi hari ibitambara bitatse, bifite amabara y'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye barimo abagabo ndetse n'ababyeyi bari konsa abana, inyuma yabo hari abandi bahagaze nabo barimo ingeri zose, inyuma y'abahagaze hari inyubako z'amazu.

Abantu bari muri siporo, bambaye imyenda y'imituku, bafite kandi imikandara y'amabara atandukanye biziritse mu nda.

Abantu bicaye inyuma yabo hari abahagaze, hari kandi inyubako yubakishije rukarakara, bari mu byatsi bigufi bakurikiranye umupira bicaye ku kibuga.

Abantu bari muri siporo, bari kwiruka mu muhanda, hari amapoto afite amatara abacaniye. Haruguru yabo, hari ibyatsi ndetse hari n'igiti.

Abakobwa bambaye imyenda ya siporo, ifite amabara atandukanye bari mu kibuga k'ibitaka bari gukina umupira. Hirya y'ikibuga hari ibiti by'inturusu birebire ndetse n'ibyatsi bigufi.

Abakinnyi bane bari mu kibuga, babiri babiri bambaye imyenda isa bigaragara ko bari mu ikipe imwe, imbere yabo hari umupira bari kwiruka cyane, bari gukinira mu kibuga gifite ibara ry'icyatsi, hirya yabo kandi hari inkingi ndende.

Abantu bicaye b'abagabo ku ntebe z'imikara harimo abambaye ingofero, inyuma y'izo ntebe har'izindi nto cyane zifite amabara y'ubururu.

Abakinnyi bahagaze mu kibuga bambaye imyenda isa y'umuhondo ariko hirya yabo hari umwe muri bo wambaye imyenda isa icyatsi, inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti ndetse hari n'amazu maremare.

Abantu bicaye ku ntebe zinyegamo, bari mu ihema ritakishije amabara ari mu idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Bambaye imyenda ya siporo, barasa n'abari kureba umupira ku kibuga.

Ikibuga kiriho abakinnyi ,imbere hari uhagaze wambaye inkweto zifunze ,n'amasogisi maremare y'umukara , n'ikabutura y'umukara, ndetse n'umupira wa orange ,yambaye kandi udufunga ntoki, inyuma yo ku izamu hari abandi batatu bahahagaze, bambaye imyenda isa bigaragara ko bari mu ikipe imwe.

Abakinnyi babiri, bari kugenda mu kibuga, umwe yambaye imyenda y'ibara ry'ubururu, undi yambaye imyenda yera ry'umuhondo, inyuma y'ikibuga hari ibyatsi, ibiti ndetse n'inyubako zitandukanye.

Abakinnyi bari mu kibuga bafashe ikirango cyanditseho amagambo, bambaye impuzankano zitandukanye ni amakipe abiri atandukanye, inyuma y'ikibuga hari ibyatsi n'ibiti.

Abakinnyi bari mu kibuga k'ibyatsi. Hirya hari abafana hari n'ibiti birebire bikikije ikibuga.

Abakinnyi bicaye hamwe bambaye imyenda ya siporo isa umuhondo iriho n'ibara ry'umukara. Bamwe muri bo bambaye ibirenge, abandi bambaye inkweto zifunze n'amasogisi, inyuma yabo hari ibiti bishinze ndetse n'ibindi bitambitse kuri byo bishinze.

Abakinnyi bari mu kibuga bose bifashe mu mayunguyungu, imbere yabo hari ikibuga hari amapoto ahashinze hari ibyatsi n'ibiti.

Abantu bahagaze bafite icyapa ndetse n'igikombe cy'insinzi mu ntoki umwana ubari hagati afite umupira, inyuma yabo hari ikibuga.

Ikibuga cy'umupira, kirimo amakipe abiri, hirya y'ikibuga hari inyubako ndetse hari n'ibiti.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umupira w'amaguru. Ni amakipe abiri, ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi yambaye imyenda y'umukara. Inyuma y'ikibuga hari ibiti.

Abakinnyi bari mu kibuga, bambaye amajezi atandukanye, bafite umupira. Ikibuga bari gukiniramo kirakorotiriye bifashishije ibiti bisize ibara ry'icyatsi. Hirya yabo kandi hari ibitaka n'ibyasi bigufi.

Abakinnyi bari mu kibuga kirimo ibyatsi bigufi, ikipe imwe yambaye imyenda y'umutuku, indi yambaye imyenda y'ubururu, bambaye inkweto zifunze n'amasogisi, ruguru yabo hari abafana bamwe bicaye ku magare abandi bicaye ku mamoto, hari n'ibiti birebire ndetse hari n'inyubako.

Umuntu uri mu muhanda, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru atwaye isuka ku rutugu iburyo bwe hari indabo hari n'igipangu, imbere ye hari ipoto ndetse n'igiti..

Agahanda gato k'abanyamaguru, hirya yako no hino hari ubutaka, hari n'ibyatsi bigufi.

Umuntu utwaye igare ahetse ibitoki, ari kubicunga. impande ye hari abanyeshuri bari kujya ku ishuri, ndetse hahagaze umuntu uhagaze ufite amvelope mu ntoki.

Umuntu utwaye moto umuhanda w'umukara ariko muto hirya ye hari abantu bahagaze, hari n'abari kugenda mu gahanda k'abanyamaguru, hari inyubako ndende imbere yazo hari ibyatsi bigufi n'ibiti birebire bizisumba.

Umwana uhagaze mu muhanda hicaye hejuru y'igurudumu, inyuma hari ibyatsi, hari na rigore, hari kandi ikiraro kifashishwa bajya muru rugo ruri hirya ye.

Umuntu uri mu muhanda mu kayira k'abanyamaguru, atwaye igare kandi ahetse amabido, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti binini n'ibyatsi.

Umuhanda urimo umurongo w'umweru, hirya hahagazemo umugabo afashe ukuboko akana gato. Ku nkengero z'umuhanda kandi hari amabara atatse umukara n'umweru hari n'inyubako ndetse n'ibiti.